Uburezi mu mashuri burarimbanije da! Aho biga imyuga itandukanye harimo gukanika amashanyarazi. Ubwo rero abantu biga iby'amashanyarazi, usanga babikora neza. N'iyo bageze mu kazi, besitara neza amazu, kandi bakabona amafaranga yankana.

Ubu ngubu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nta munyeshuri ugomba kubaho atiga, kuko uburezi bw'ibanze bwegerejwe abanyeshuri, amashuri yarubatswe cyane, ahari ari menshi, abanyeshuri rero bariga, nta munyeshuri uva mu ishuri uko yiboneye, agomba kwiga.

Ubu ngubu mu gihugu cyacu ni uburezi kuri bose, kuko buri mwana ajya kwiga nta kintu atanze, cyane ko ubungubu Leta yashyizemo n'inkunga. Ubungubu amafaranga yo kurya yabaye makeya, ubwo rero abanyeshuri bose bajya kwiga bakabona uburezi kuri bose. Abafite ubumuga n'abadafite ubumuga barigana bikagenda neza cyane.

Kwiga ubwubatsi na byo byafashe indi ntera ndende cyane. Abakobwa barabitinyaga, ariko na bo uyu munsi basigaye bari mu bwubatsi kuko barubaka, kandi inzu bubaka ziba zikomeye. Na bo babagirira icyizere bakabaha akazi, usanga nta kibazo kinini.

Gukora imihanda biba byiza，ariko kugira ngo barinde iyo mihanda kwangirika， niyo mpamvu bacamo n'aho amazi azaya aranyura， igihe yabaye menshi， kugira ngo atangiriza imihanda. Niyo mpamvu bakora ibiraro bicamo amazi， kugira ngo imihanda irusheho gukomera.

Abakobwa nabo, ubu basigaye biga imyuga itandukanye, kuko usanga nabo umwuga wo kubaza batawutinya, kandi ubaha amafaranga menshi atandukanye. Ubu nta kwitinya kukibabamo, ahubwo na bo baba bari guhatana ku isoko, ku masoko y'imirimo.

Gusobanuza kw'abanyeshuri biba byiza cyane, iyo hari ibyo batumvise neza, babaza umwarimu wabo akabasobanurira, bakarushaho kumenya neza amasomo yabo, biga buri munsi, ibyo bituma n'iyo ikizamini kije, bashobora kugitsinda, kandi bakakibonamo amanota ashimishije.

Ireme ry'uburezi ryateye imbere, ubugubu abahungu n'abakobwa barigana, kandi usanga mu manota bari kugenda barushanwa , harushanwa cyane, ubona abakobwa bari bari kuza imbere, kandi bagenda barusha abahungu.

Kwiga ni byiza cyane kuko bituma tumenya imirimo myinshi itandukanye, nko gukanika ibyuma byapfuye. Usanga abantu babyiga mu mashuri, mu gihe umuntu yajyaga gushakisha ubimwigisha, ariko ubu ng'ubu amashuri y'imyuga nayo arahari, urebye barabyiga kandi bakabimenya, bakamenya no gukanika.

Ubu mu mashuri y'imyuga basigaye barigamo imyuga myinshi itandukanye. Abanyeshuri ubu ngubu ntabwo bagipfa gushoma uko biboneye, kuko n'abatabashije kwiga ibindi bitandukanye biga imyuga, kandi iyo bamaze kuyimenya usanga da bakenewe ku isoko, kandi bagakora ibintu byiza cyane, kuko baba barabyize.

Ubukanishi ubu abakobwa n'abahungu bose basigaye biga gukanika， nta mwuga ukiri uw'umuhungu gusa， ahubwo n'abakobwa nabo barabishobora， kuko iyo bari gukanika hari icyo bagomba gusenya， baragisenya kandi bakongera bakacyubaka.

Abana b'abakobwa benshi bagira isuku, kuko iyo bagezemo mu gihe cy'ubwangavu bari kwiga nko muri segonderi, baba bashoboye kwisukura barisukura ,ukabona imisatsi yabo imeze neza ,mbese umwana w'umukobwa agomba arangwa n'isuku.

Abanyeshuri bacu bagira impano zitandukanye, kandi usanga iyo bakurikiranye bageze kure cyane. Hari n'abagira impamvu zo gushushanya ku buryo iyo ashushanyije ubona rwose iyo mpano ari iye. Ubwo rero ni ngombwa ko tumenya icyo abanyeshuri bacu bashoboye, tukakibashigikiramo kuko kibageza ku iteranambere.

Urubyiruko rw'ubu rwihangiye umurimo. Ubwo habamo no kogosha abantu, kubasokoza. Mbese, urubyiruko rw'ubu rwiyemeje gukura amaboko yabo mu mufuka kugira ngo na bo bakorere ayabo mafaranga , kuko babonye ari byo bizabageza ku iterambere rikomeye.